Kuri iyi foto hagaragaraho umudamu uri kwa muganga, wicaranye n'umusore ndetse n'akaboko ka muganga ndetse n'intebe bisa naho ari muri sitade, umudamu wambaye umupira w'umutuku.